Muri bare haba harimo intebe nziza cyane n'ameza, ndetse n'amayetajeri yabugenewe yo gushyiramo amayoga, n'ibindi bintu bikenerwa n'abakiriya biba biri aho hafi aho.

Mu mabara habamo inzoga z'amarikeri, inzoga zoroheje, amaji, amafanta, n'ibindi byinshi bitandukanye. Habamo n'intebe nziza zabugeneye zikurura abakiriya.

Ubucuruzi bw'inzoga buba ahantu henshi hatandukanye, ariko cyane cyane mu mabare mu mahoteri aho abantu bakunda kwicara bakazinywa bisanzuye.

Inyama ni ikiribwa cyiza cyane kiri mu biribwa byubaka umubiri kandi gikundwa n'abantu benshi.

Hari n'abakunda imyidagaduro ya nijoro, abo ngabo bajya mu mabare bakabyina, bakanywa, bakarya, ubuzima bugakomeza.

Amabara n'amaresitora akunda kuba yubatse mu buryo bwihariye, haba harimo inzoga zitandukanye hakabamo n'amaji atandukanye.

Amabare n'amaresitora aba afite intebe nyinshi kandi zitandukanye, cyane cyane nkabakorana na eyateri, intebe zabo ziba zisa n'umutuku ndetse n'imitaka yabo iba isa n'umutuku.

Inzuzu zucuruzi ndetse n'amahoteri, bikunda kubakwa hafi y'umuhanda, hariho amahoteri akunda kuba afite ibiti nkaho hafi aho.

Amabotike aba yubatse imbere y'umuhanda, ndetse hafi aho haba hariho imodoka, amagare, amamoto n'ibindi byinshi bitandukanye, ndetse n'abantu bari kuza kugura no kugurisha.

Mu iduka haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye:Ibikinisho by'abana, imipira y'abana, ibikoresho by'amashanyarazi, imitaka, ibikoresho by'imikeka n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umukindo ni igiti cyiza cyane. Gikunda gukoreshwa n'abantu benshi. Cyane cyane iyo ari kuri mashami. Amamodoka agenda mu muhanda ndetse n'inzu z'ubucuruzi zubabakwa hafi y'umuhanda.

Inzu z'ubucuruzi zikorerwamo ibintu byinshi bitandukanye， bashobora gucuruzamo ibitambara， imyenda y'abagore，amakanzu， kandi bagafotoreramo impapuro.

Amazu y'ubucuruzi ahenshi usanga afite pura igiye gusa, rero bacururizamo ibintu byinshi bitandukanye: za kenkayori, ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho by'amashanyarazi n'ibindi.

Hirya no hino mu byaro habamo amabotiki atandukanye. Ku buryo ahantu aho ariho hose, udashobora kubura aho ugurira ikintu ushaka kugura.

Hari amabutiki aba afite imitako imbere yayo nk'imigano, uturabo, n'ibindi. Ayo mobutike rero acururizwamo ibintu byinshi bitandukanye, bashobora no kuhakorera na za resitora na ambare na za buranjeri n'ibindi.

Botike ni ho tugurira ibikoresho by'amazi insinga z'amashanyarazi amapompo y'amazi n'ibindi.

Muri botike bacururizamo inzoga, bikunda kuba bishushanyijwe nk'aho ku cyapa cyereka abagenzi ko ibyo binyobwa birimo.

Iri duka ricuruzwamo ibintu byinshi bitandukanye: amaporutemanto, utubati, amabase, ibikapu bita amarondoni, utwanverope kado bashyiramo kado n'ibindi.

Amabanki nayo akorera mu mazu ameze nk'amazu y'ubucuruzi. Ayo mabanke rero adufasha kubika amafaranga kugira ngo abajura batayatwambura.

Iyo ari mu gitondo, amabutike yose aba afunze. Hari igihe ushobora nko gushaka serivisi muri butike ukazibura, kuko abantu baba bakiryamye, abandi batarava mu ngo zabo ngo baze gucuruza.

Mu iduka haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Ndetse no hanze barahatandika ibitenge, ibitambaro by'amatisi, ibitambaro byo kudoda amapantaro y'abagabo n'ibindi. Abadozi na bo baba bari nk'aho hanze y'iduka, bategereje abaza kudodesha.

Butike rero ni ahantu tugurira ibintu byinshi bitandukanye, ariko iyo ugeze ahantu wamenyereye kugura ugasanga harafunze hari igihe wumva ugize ikibazo.

Firigo ni igikoresho gikonjesha inzoga, amaji ,iyo babishyizemo. Gikunda gukoreshwa mu mahoteri no mu ma kabari.

Inzu z'ubucuruzi ziba zubatse mu buryo butandukanye, hari igihe ziba zigereretse, izindi zikaba ari ngufiya, ariko akenshi iyo ari ngufiya bazishyiraho amakaro ku nkuta kugira ngo zise neza.

Inzu z'bucuruzi zibg zubatse ku muhanda. Ziba zifite imiryango itandukanye. Hanze hari ukuntu bashushanyaho ibishushanyo bitandukanye byerekana ibintu bicururizwa muri iryo duka.

Muri butike duhahiramo ibintu byinshi cyane bitandukanye: imyunyu amasabune ,amavuta ,ibikoresho by'ubwubatsi ndetse bakoreramo na serivisi z'irembo. Amagare adufasha gutwara ibyo twahashye.

Butiki ni amazu y'ubucuruzi acururizwamo n'abantu benshi cyane, ndetse bacururizamo n'ibintu byinshi cyane, habamo n'impapuro, amalame, amakayi, amakaramu n'ibindi.

Isoko rya Goyiko riragerekeranye, rifite inyubako ya nivo eshanu, muri buri nivo hashakirwamo ibikoresho bitandukanye.

Inzu zubakirwa ubucuruzi zikorerwamo ibintu byinshi cyane, hari izikorerwamo guhanagura imyenda, izindi zigakorerwamo gucuruza imyenda itandukanye.

Kubera ko muri botike haba harimo ibintu byinshi bitandukanye, abaguzi baba ari urujya n'uruza baje kubishaka. Hari abazana amagare, abandi bakazana ibikapu byo guhahiramo.

Inzu z'ubucuruzi ziba zubatse mu buryo bwinshi butandukanye, haba hariho izubatse mu uburyo bumeze nk'amayetaje, bakunda no gucururiza ibintu byabo no hanze, iyo mu nzu huzuye nk'ibihaza n'ibindi.

Mu iduka habamo ibintu byinshi bitandukanye. Amakoti y'abagabo amapantaro y'abagabo n'ibindi byinshi bitandukanye. Habamo n'umucuruzi uba arikubucuruza. Abaguzi bazabamusanga akabagurisha.

Iyo butike zifunguye, umuntu uwo ari we wese aba yemerewe kwinjiramo akabaza serivisi y'icyo akeneye icyo aricyo cyose.

Ahantu hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye haba hariho na muvoma z'abantu, amamoto n'amamodoka. Kuri bara bacuruza n'inzoga za mitsingi.

Amazu yagenewe gucumbikira abagenzi haba harimo igitanda ,matela n'ibindi bikoresho abagenzi bakwifashisha mu gukaraba n'ibindi.

Amakara nayo acuruzwa muri botike, bakunda kuza kuyagura babonye amagare, cyangwa abandi bakazana imifuka bagashyiramo bakikorera ku mitwe, abamotari baba bari hafi aho nabo bashaka abagenzi bo gutwara.

Muri botike bacururizamo ibintu byinshi bitandukanye: amafi, akawunga, imiceri, imyunyu, amasaha, udufuka two guhahiramo n'ibindi.

Inzu z'ubucuruzi ziba zishushanyijeho akenshi ibyo bazicuruzagamo: nk'inzoga, ibirahuri bakoreshaga bari kunywa inzoga, kandi ziba zubatse hafi y'umuhanda.

Serivise z'irembo nazo zikorerwa, mu mazu y'ubucuruzi, iyo inzu zifite amakaro ku nkuta, ziba zifite isuku, zigaragara neza cyane.

Abacuruzi bacuruza ibintu byinshi bitandukanye. Hari igihe mu inzu biba byabaye byinshi bagatandika no hanze nk'amamoto, amagare n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye.

Mu iduka hakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye. MTN ishobora gukoreramo ndetse na serivisi z'irembo zikorerwa mu iduka.

Mu iduka bacururizamo n'ibikoresho by'imodoka nk'amapine. Abaturage barahinga, imyaka yabo yakwera bakarya, bagasagurira n'amasoko nk'ibihaza, ibinyomoro, ibigori, ibijumba n'ibindi

Muri butike habamo ibintu byinshi bitandukanye. Hari aho banywera icyayi n'umugati, ahandi bakahagurira za ji, ahandi bakahagurira amata.

Butike ni ahantu bacururiza ibintu byinshi bitandukanye, imbere muri butike haba harimo ibintu ,ndetse no hanze barabitandika cyane cyane inyanya ku meza.

Ibyapa bigaragaza ibicuruzwa biba biri muri butike, noneho hafi ya butike bahashyira imitako, ndetse n'abanyonzi, ndetse n'abamotari baba bari gusirikira hafi aho.

Amakaro iyo yometse ku nzu usanga ari bintu byiza cyane, bituma inzu igaragaraho isuku ndetse n'iyo inzu isakakajwe n'amabati meza, nabyo bituma inzu igaragara neza.

Muri butike habamo ibintu byinshi bitandukanye. Imyenda y'abagore, imyenda y'abagabo, ndetse hanze umutayeri arahicara akahadodera. Ndetse n'uri gucuruza mobayiro mani, arahacururiza hanze.

Mu iduka haba harimo ibintu byinshi bitandukanye: amasafuriya ,imikoropesho ,imyambaro y'abagore ,ibikapu by'abagore ,amabase, indobo byinshi bitandukanye ,iyo ukeneye ikintu urakibona.

Mu iduka habamo ibintu byinshi bitandukanye. Imisego amashuka yo kuryamamo, abantu baje kugura, abandi bari kugurisha n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi ziba zifite imiryango itandukanye, kandi zifite n'igihanga imbere. Bakunda gushyiraho icyapa cyanditseho ibyo bacururizamo imbere.

Kuri ubu, iyo ufite amafaranga ntabwo wabura aho ugura icyo kurya, kubera yuko hirya no hino ku mihanda, baba bari kuhakorera amandazi ,amabenye ndetse bari kuhacururiza n'ibyayi.

Ubucuruzi bwa kekayori bukunda gukoreshwa mu masoko menshi cyane, iyo umuntu ashaka ibikoresho by'ubwubatsi arabibona bitamugoye amabati, ibyuma, za ferabeto, byose tubisanga muri kekayori.

Amazu y'ubucuruzi acururizwamo ibintu byinshi bitandukanye. Akunda kuba yubatswe hafi y'umuhanda, ku buryo amamodoka, amamoto, amagare, ahanyura cyangwa se agahaha ibyo umuntu akeneye, akabipakira nko ku igare bitamugoye.

Hari naho bacuruza imyenda myinshi cyane amakositimu y'abagabo, imishono itandukanye y'abagore n'ibindi byinshi cyane.

Butike ni ahantu duhahira ibintu byinshi bitandukanye: imiceri, kawunga, imyunyu, amasabune ,amasukari.

Ku muryango w'inzu y'ubucuruzi haba hariho kandagira ukarabe, noneho n'imbere mu nzu habamo ibintu byinshi bitandukanye ,ndetse hari n'abatandika hanze ,iyo mu nzu byuzuye.

Hafi ya hoteri haba hariho amajaride meza cyane ,arimo ibiti byinshi bitandukanye byo gukurura umwuka mwiza, bityo ukaba amahumbezi muri hotel.

Agakontineri kuri ubu gasigaye kagezweho nako cyane ibintu biba bitanditswemo imbere amayoga, imigati ndetse byaba byinshi bakabizana kubitandika no hanze ibihaza, ibisheke, ibirayi, ibitoki n'ibindi.

Muri botiki hakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye， bashobora gucururizamo ibyo kurya， tukabihaha，cyangwa bakadoderamo imyenda y'ubwoko butandukanye，cyangwa bagakoreramo sitidiyo ，bakaba ariho bifotoreraza amafoto atandukanye.

Iduka ribamo ibintu byinshi bitandukanye. Ndetse n'imbere yaryo habaho imbuga nziza cyane, ipavomye amapave.

Imiti ikoreshwa mu buhinzi na yo barayicuruza. Habamo amafumbire, imiti yica ubukoko n'ibindi bitandukanye.

Muri butike bacururizamo ibirayi ,ibijumba, ndetse haba hazwi ku buryo umunyamagare aza gupakira ibirayi byinshi akabijyana ,cyangwa se umunyamutwe akaza akagura akagenda yikoreye ku mutwe.

Inzu z'ubucuruzi ziba zubatse muri pura imeze nk'iduka, ziba zifite imiryango myinshi yagiye ikurikirana.

Botike icururizwamo ibintu byinshi cyane iba harimo inkweto zo kwambara, ibyokurya ndetse n'ibyo kunywa biba birimo.

Resitora zicururizwamo ibyayi, amandazi, imigati. Ni ho abantu benshi baruhukira kugira ngo bivure inzara yo mu gifu.

Inyubako zifite amakaro ku mpande, usanga zikeye cyane zimeze neza, izidafite amakaro uba ubona zidasa neza cyane, haba hariho n'utuzu twa emutiyene nk'aho ku ruhande bacururiza.

Mu nzu zicururizwamo, haba harimo ibintu byinshi cyane bitandukanye. Haba harimo imyenda; ibitenge, imiceri, za kawunga, amasafuriya, amavuta y'ubwoko butandukanye, ayo ku kurya n'ayo kwisiga, amasabune y'amazi n'amasabune akomeye, n'ibindi bintu byinshi cyane.

Mu rusengero haba hatatse cyane. Mu mpande ndetse bashyiramo n'imikeka kugira ngo abakirisitu binjiremo hafite isuku bihagije. Haba hariho na mpimbara umupasiteri ari buhagarareho.

Hoteli icumbikira abagenzi batandukanye, hoteli kandi iba ifite amajaride abantu bakoreramo ubukwe bakidagadura bakisanzura, hoteli kandi ni igikorwa cy'iterambere mu gihugu.

Amahoteri acumbikira abagenzi benshi batandukanye, iyo bifite bajya mu mahoteri bashaka, amahoteri abafite n'imodoka zabugenewe zo gutunda ibikoresho bikoreshwa mu mahoteri.

Hoteri zicumbikira abantu benshi batandukanye. Ziba zifite ibyumba byiza cyane， ndetse mu byumba habamo n'ibikinisho. Iyo umukiriya agezemo，arabikinisha， kugira ngo yimare irungu.

Inyanya ni igihingwa gikundwa n'abantu benshi, gishyirwa mu biryo kugira ngo kibihindure, kibamo n'intungamubiri z'amoko menshi.

Ibikoresho byo mu gikoni na byo bigurwa mu isoko amasafuriya, amabase, ibikombe ,amateremunsi, indobo, ibyo byose bigurwa mu isoko.

Mu isoko ni ho abantu benshi bahahira ndetse ni na ho bagurishiriza umusaruro w'ibyo bahinze. Imodoka zirabizana cyangwa abantu bakabizana ku mutwe.

Abagore bambara ibitenge, abagabo bambara amapantaro. Amakoti nayo turayifubika, iyo imvura yaguye. Amasogisi na yo abagabo barayambaraga ubuzima bukagenda neza cyane.

Mu isoko habamo ibintu byinshi bitandukanye; imyenda, ibikoresho byo mu gikoni, habamo n'abacuruzi bacuruza mobayiro mani, hafi y'aho haba hari na gare, gare abagenzi bategeramo imodoka.

Hari amasoko ya kijyambere ndetse ageretse amayetaje, hari amasoko afite nivo ya mbere iya kabiri iya gatatu, aho ushaka ni ho ujya kugurira icyo wateguye.

Mu isoko habamo ibintu byinshi bitandukanye, inyanya, ibirayi, ibijumba, amateke, niho duhahira ibintu, byinshi bitandukanye.

Indagara nazo ni ikiribwa cyiza cyane. Indagara zifasha abana, zikanabarinda kurwara bwaki. Kandi ziryoshya ibiryo.

Amasoko ni imitungo rusange, amasoko adufitiye akamaro kanini cyane, tuyajyamo tugahaha imyenda, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kubakisha, n'ibindi byinshi cyane.

Ku isoko habamo ibintu byinshi bitandukanye, imbuto z'amoko yose, imyembe amacunga, ibitunguru, ibihaza, mpandarena n'bindi.

Mu isoko habamo ubwoko bwose bw'ibyo wifuza. Ibirayi bya kinigi iyo ubishatse urabibona. Ibirayi by'umweru na byo biraboneka, mbese ubwoko bwose bw'ibirayi ushaka urabibona iyo ugeze mu isoko.

Mu isoko ni ahantu haba imbuto z'amoko yose, imineke, amacunga, amapera, ibinyomoro, imyembe, mbese upfa kuba ufite amafaranga, urubuto rwose ushaka urarubona mu isoko.

Isoko ry'imbuto ribamo imbuto nyinshi zitandukanye : wotameloni, amacunga, inanasi, imineke n'ibindi byinshi bitandukanye.

Mu isoko habamo ibintu byinshi bitandukanye. Imbere y'isoko haba hariho muvma zitandukanye, nanone z'abantu, ndetse n'ibinyabiziga.

Mu iduka haba ibintu byinshi bitandukanye, indobo, amabase, amagi, amavuta, imifuka y'imiceri, imifuka ya kawunga, amasabune n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Isoko ni ahantu duhahira ibintu byinshi bitandukanye. Hari amasoko aba atageretse， hakaba n'amasoko y’amayetaje， arimo nivo zitandukanye.

Mu isoko bahahiramo ibintu byinshi bitandukanye, imyenda y'abagore, imyenda y'abagabo, imyenda y'abana, inkweto z'abakuru n'abatoya n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Ibijumba ni ibiribwa byiza cyane biri mu biribwa bitera imbaraga, abantu barabikunda kandi biba binahendutse

Mu isoko bacururizamo ibintu byinshi bitandukanye: ibikapu by'abana bajyana ku ishuri, amamarete y'abagore amanini, amatoya n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iyo amasafuriya ashaje, hari abantu bayadoda ndetse n'amateremusi y'ibyuma, abazi gusudira barayasudira.

Inzu iyo ari yo yose iba ifite parafo. Mu nzu rero hacururizwamo imifuka, amanvelope n'ibyo kurya bindi bitandukanye byinshi cyane.

Isoko rya kariyeri，ni isoko rya kijyambere rigezweho cyane. Habamo imbuto z'ubwoko bwose，wotameroni，amacunga， imyembe， n'ibindi bitandukanye.

Shufurere nazo ni imboga nziza cyane ziraryoha. Habaho shufurera zisa n'icyatsi hakabaho na shufurera zisa n'umuhondo.

Mu isoko duhahirayo ibintu byinshi bitandukanye: iryamirwa, imyenda yo kwambara, inkweto, amakoti, ibyo kwifubika, n'ibindi byinshi bitandukanye.

Inkweto z'umweru umukara z'amabara akenshi iyo uzishatse ukunda kuzibona mu masoko atandukanye.

Isoko ry'imbuto ribamo ibintu byinshi bitandukanye: Imineke, amatunda, avoka, amapera n'izindi mbuto zitandukanye, Zicururizwa ku bisima.

Isombe ni ikiribwa kiza cyane，gifite intungamubiri zikomeye. Abagore benshi bashishikarizwa gutekera abana babo isombe，kugira ngo babarinde indwara zijyanye n'imirire mibi.